Si byiza kunywa amazi cyangwa se kuyakoresha adatetse kuko hari zimwe muri mikorobe ziba zirimo zishobora kutwangiriza, ni byiza rero kuyakoresha asa neza kandi asukuye.

Mu bihe byatambutsekirara, kubona amazi byari ikibazo. Wajyaga kuvoma mu bishanga, mu migezi, mu byuzi, no mu biyaga. Ariko ubungubu rubine zaraje dusigaye tubona amazi tuyavomye kandi meza, gusa anadufasha mu buzima bwa burimunsi tubayeho kuko turayanywa, tukayatekesha.

Kugira isuku ni ngombwa mu mibereho tubayemo, kuko iyo nta suku umuntu afite, indwara zikomeza kwiyongera zikaba nyinshi, cyane cyane iziterwa n'umwanda. Amazi rero adufasha mu kurwanya izo ndwara, kandi tukabaho neza. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni byiza kandi birafasha.

Umugongo ni igice cy'ingenzi kigenga amarangamutima ndetse n'imitekerereze. Iyo tuwufashe nabi bitugiraho ingaruka cyane cyane mu buzima bwa buri munsi, tugomba kuwufata neza rero, dufata ibyo kurya byiza, twirinde ibisindisha ndetse n'amatabi tukagabanya stress.

Ni byiza kandi bigira akamaro kuririmba ukanabyina. Iyo byongeyeho ko ukuze bigufasha kugabanya stress, kwishima, kwivura umunaniro, iyo uririmbye kandi, hari ibibazo bimwe na bimwe bigenda bikemuka kuko ari byiza.

Kumenya neza cyangwa se gusobanukirwa ahantu hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze ni ingenzi. Iyo umuntu arwaye sibwo umwanya ukwiye gushaka aho yivuriza, ahubwo ni umwanya wo kwegera abaganga cyangwa ababihuguriwe kugira ngo bamufashe ku kibazo cy'ubuzima aba afite, ni byiza rero kumenya amakuru.

Zimwe mu nyubako tugira harimo ibigo nderabuzima, bifasha abaturage kubona ubuzima bwihuse, zitanga serivisi zitandukanye, mu kuvura ababyeyi, abana ndetse no gutanga inama zitandukanye, zigatanga n'inkingo, ikigo nderabuzima rero kiratwegereye cyane, ni byiza kugikoresha.

Farumasi ni inyubako itangirwamo imiti n'ababifitiye ububasha, hakorerwamo inama zijyanye n'imikoreshereze yayo, hakagenzurwa ubuziranenge, hafasha abarwayi kumenya uburyo bwo kwirinda ingaruka zituruka kugukoresha nabi imiti kandi hakaba hakorera umuganga wabyi...

Abaganga ni bamwe mu bantu badufasha gufata neza ubuzima bwacu, cyane cyane iyo twahuye n'ibibazo twarwaye, twihutira kujya kwa muganga kugirango badupime barebe neza ubuzima turimo.

Igihe dukora siporo ni byiza kunywa amazi kuko ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, amazi rero akoreshwa mu rugo igihe duteka dukora amasuku Niko gukoropa koza ibyombo no gufura imyenda, ikindi kandi tuyakoresha twuhira ibihingwa kugira ngo bikure neza kuko nta mazi ibihingwa ntabwo byakura neza.

Mu byo turya cyangwa tunywa , hari bimwe bitera indwara zitandukanye, harimo nka Amibe, kugira ngo dufate neza umubiri wacu, ni uko tugira isuku, tukanywa amazi meza, tukarya ibyo kurya bisukuye, kandi tubyita ku byo dushyira mu gifu, kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza kandi tubeho neza.

Inanasi ikungahaye kuri vitamine C, isukura umubiri, igabanya ubusharire mu mara, ifasha mu kongera ubudahangarwa, ivura ibibyimba no gukomereka yifashishwa kandi mu gukora umutobe, ni urubuto rwiza cyane kururya ndetse ni na byiza no gukoresha imineke, imbuto ni nziza mu buzima bwacu.